Imodoka, urujya n'ururoza ndetse n'icyapa kinini kigaragaraho abagabo umwe yambaye ishati y'umweru n'umugore wambaye ishati y'umutuku. Bigaragara neza.

Umugore uryamye ubona ko afite ikibazo, afashe ku mutwe ndetse afite umusatsi mwinshi, yambaye ikanzu y'amabara atandukanye kandi meza.

Urupapuro runini ruriho amabara y'umukara n'umweru, handitseho amafaranga menshi agaragaza ibyakozwe ndetse ibyinjiye n'ibyasohotse.

Telefone nini irimo ikirango cya Banki ya Kigali, irimo ibara ry'umweru iruhande rwayo hari ibara ry'umukara, ubona ko ari nziza kandi igezweho, ikoranye ubuhanga.

Inkweto z'amoko atandukanye ziri hejuru y'ameza, umukara, umweru, umuhondo zigaragara ko ziguze amafaranga menshi, zicururizwa mu iduka riherereye mu gace k'i Kigali.

Inzu y'ubucuruzi irimo inkweto zitandukanye z'amoko menshi, umweru, umukara, ubururu ndetse zidahenze kandi ziri ku giciro cyiza.

Umugore wambaye ikanzu nini yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara, uhagaze mu nyubako nini irimo imyenda myinshi, ubona ko yishimye kandi anezerewe kandi yishimiye uburyo afite ibicuruzwa byinshi.

Imodoka z'amoko atandukanye zifite amabara umweru, umukara ziparitse iruhande rw'inyubako nini, igeretse gatatu kandi ubona ko ihagaze amafaranga menshi cyane.

Imodoka iparitse kandi ubona imbere yayo hari izindi nyinshi itarimo umuntu, ubona ko ifite ibikoresho byose bihagije kugira ngo ibashe kujya mu muhanda nta kibazo ifite na kimwe.

Imodoka nini iparitse, imbere yayo bahagaze abagabo batatu bambaye imyenda y'ubwoko butandukanye, igisarubeti cy'umutuku ndetse n'ijire y'icyatsi.

Abagabo bane harimo uwambaye ishati y'umweru, umukara ndetse n'inkweto nziza, bafite imodoka ubona ko ikeye kandi igezweho, bahagaze imbere y'inyubako nziza.

Imodoka nini igaragara mu ibara ry'umukara igana imbere, iruhande rwayo hari ibiti binini, inyubako ndende ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye ndetse nziza cyane.

Imodoka nziza iri mu ibara ry'umukara n'umweru, irimo abantu babiri kandi igaragara neza, ibiti binini ndetse n'ibyatsi bitoshye, ubona ko bigaragara neza.

Imodoka nini y'umukara n'umweru, izindi zifite amabara atandukanye, ubona ko abantu baza bajyamo kandi bishimiye ubwitange bw'abantu bagiye bashyiramo uruhare.

Imodoka nziza irimo amabara y'umweru n'umukara, iparitse iruhande rw'inzu isakaje amabati y'umweru, iri mu kibuga kinini kandi cyiza cyane, ihagaze miliyoni makumyabiri n'eshatu.

Abagabo bane bahagaze imbere y'imodoka eshatu, inyuma yaho hari inyubako nini cyane, ikorerwamo imirimo itandukanye, ubona ko bahurijwe hamwe nikintu kimwe.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, urimo guhabwa serivisi nziza muri banki ndetse ubona ko yambaye indorerwamo z'amaso.

Ibiti byiza bizana akayaga ndetse n'amahumbezi akazura abantu bicaramo bategereje imodoka ndetse n'imodoka y'ivaturi, umumotari ndetse n'indi modoka ibari imbere itwara imizigo.

Igiceri kiriho imibare ine itandukanye, zeru, kabiri, zeru, icyenda, banki nkuru y'u Rwanda, gishushanyijeho insina n'igitoki.

Umugabo wicaye imbere y'ibikoresho by'ikoranabuhanga, wambaye imyenda y'akazi, uri mu nyubako nini ndetse abantu baza gufata serivisi nziza kandi inoze, akayibaha yishimye kandi anezerewe.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana uri kumuha igikoma, ubona ko aje kumufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse abashe no kwiyitaho mu buryo bw'ubuzima bwe kandi agire imibereho myiza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, cyiganjemo ibara ry'umweru ndetse ubona ko ari cyiza kandi kigaragara neza, by'umwihariko ku bunini ndetse n'ingano yacyo.

Igikombe kinini giteretse hejuru y'ameza kirimo amata ubona asa neza kandi aryoheye amaso imbere yacyo hari agacupa k'amazi ndetse na terefone ihateretse.

Umugore uri mu nyubako itunganya amata, amandazi, imigati, capati, ibiraha ndetse bigaragara ko bacuruza ibindi biribwa bitandukanye.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ibinyobwa ndetse n'ibisukika, harimo ameza manini cyane agaragaza aho abakiriya bicara.

Inyubako y'ubucuruzi irimo abakobwa babiri bambaye imyenda itandukanye, umukara ndetse n'umweru, ibicuruzwa bitandukanye bakuyemo ndetse bishyura ku giciro cyiza.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, umukobwa wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umutuku, umupira w'umweru, uhetse igikapu ndetse uri kureba muri terefone, arebamo ibintu bitandukanye.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kimeze nka radiyo, gicanye ibara ry'umutuku, kiri hejuru y'ameza, agakapu gateretse iruhande rwayo, ubona ko ari byiza cyane.

Umugabo wambaye ishati yumweru, uhagaze imbere y'umukobwa wicaye ahantu bari hari intebe zicyatsi ndetse hari amazi yo kunywa meza.

Umukobwa wishimye ufite amafaranga mu ntoki, inoti ya bitanu, iya bibiri ndetse agaragara ko yishimye kandi yambaye umupira w'umuhondo n'amaherena ku matwi.

Urupapuro runini ruriho ibirango bitandukanye, imbonerahamwe igaragaza amafaranga yinjiye, ayasohotse ndetse n'ayakoreshejwe, bityo bigaha ishusho umuyobozi wa banki.

Urutonde runini rugaragara mu ibara ry'umukara n'umweru, ruriho urutonde rw'amafaranga igihe yatangiwe ndetse n'igihe asohokeye.

Urupapuro runini rugaragaza amafaranga yinjiye n'ayasohotse. Icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro. Ndetse bigaragara ko ari umukara n'umweru.

Urupapuro runini rwanditseho imibare itandukanye, rugaragaza raporo y'amafaranga yasohotse, ayinjiye ndetse n'ayakoreshejwe, bityo ishusho yarwo igaragara mu ibara ry'umukara n'umweru.

Igipapuro kirihosinya yerekana ko umuntu yatanze umusoro kandi icyemezo cy'uko kutabamo umwenda w'imisoro, bivuga ko ari urutonde rw'abasoze neza kandi by'umwihariko abacuruzi.

Urutonde rugaragaza umuntu wishyuye, imbonerahamwe irimo amafaranga yinjiye, ayasohotse ndetse n'ayakoreshejwe, bigaragara mu nyandiko yandikishijwe imashini.

Inoti zanditseho amafaranga icumi, ziri mu ibara ry'umutuku, umweru, ubona ko zigaragara neza kandi zifite ishusho nziza.

Inoti y'ijana, iriho umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, iruhande rwayo hari ibiceri bitatu, iby'icumi bibiri ndetse n'icya makumyabiri, birundanyije hamwe.

Inoti ya magana atanu ya banki ya Tanzania igaragaza umugabo urakaye kandi wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru ndetse ubona ko afite umubiri mwiza.

Umugabo ufite inoti nyinshi mu ntoki, uhagaze wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ikoti ndetse yambaye n'inkweto nziza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, urimo arakira amafaranga atandukanye, bitewe n'uburyo ayahabwa arishimye kandi aranezerewe.

Umugabo wambaye umupira w'umukara uhagaze imbere yinyubako nziza irimo amabara y'umukara, ubururu n'umweru, ubona ko yishimye kandi anezerewe byiza cyane.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi, ubona ko hakirirwamo abakiriya, batanga amafaranga bakayabikira kuri banki zabo, kandi bishimye.

Inyubako nini ifite amarange y'ubwoko bwose, umukara, umweru, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ubona ko ari nziza kandi ifite agaciro k'amafaranga menshi.

Inyubako nini yanditseho ikirango cyo guhindura cyangwa kuvunjisha amafaranga, ifite icyumba kinini kijya iburyo ndetse n'ibumoso.

Inyubako ndende iriho ibirango bitandukanye, iri mu ibara ry'ubururu ndetse impande yayo hari indi nyubako ifite ibara ry'umuhondo, ubona ko ziteganye kandi ari inzu z'ubucuruzi.

Inyubako nini yiganjemo ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku, ifite ibyumba bitandukanye bikorerwamo ubucuruzi, bitangirwamo serivisi zitandukanye ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu.

Inyubako nziza irimo ibikoresho bitandukanye byo mu nzu: intebe, ameza ndetse ifite ubwiza buhebuje kandi busamaje.

Utubati tubiri dukozwe mu bikoresho by'ibiti, kamwe karimo aho kubika ibyombo ndetse akandi kariho aho kubika ibikoresho byo mu rugo.

Inyubako nini yiganje mu ibara ry'umukara n'umweru, ifite ibirahuri byiza kandi bigezweho, iguze amafaranga miliyoni cumi ne eshanu, uwayishaka yayibona kumafaranga make.

Urujya n'uruza rw'abantu, inyubako nini ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, umumotari uhetse umukobwa ndetse n'abahungu bagenda mu muhanda, ubona ko bajya mu mirimo itandukanye bagize buri munsi.

Inyubako nziza ifite ibirango bitandukanye isize irangi ry'umutuku, umweru, umuhondo ndetse n'ubururu, ikorerwamo ibicuruzwa by'amoko yose.

Umugabo uhagaze imbere y'inyubako ndende, uri mu muhanda wa kaburimbo, yitegereza hirya no hino, ubona ko ashaka kujya mu bice bitandukanye, ariko akabura ikirango kimwereka.

Inyubako nini irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, intebe z'imizigo ndetse n'ibirahure, rido nziza zigezweho kandi ziteguranye isuku nziza cyane.

Bicaye batandukanye ku ntebe nziza, ameza ndetse n'ibindi bikoresho byiza by'ikoranabuhanga, baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye ndetse n'uko zashyirwa mu bikorwa.

Umubyeyi w'imisatsi myinshi wambaye ikanzu yiganjemo amabara y'ubururu, ufashe ku kigori wishimye cyane ndetse ubona ko anezerewe, by'umwihariko inseko ye irabigaragaza.

Inyubako nini, irimo ibikoresho bitandukanye bisize amarangi meza umweru, icyatsi, umukara, ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye kandi by'ingirakamaro.

Ihuriro ry'abantu bahagaze bishimye, bafite ingingo nyamukuru yabahurije hamwe, kugira ngo bayiganireho kandi bafate umwanzuro w'icyabateranirije hamwe.

Ihuriro ry'abantu bateraniye hamwe ndetse bari kwiga ku nsanganyamatsiko bahawe, harimo abambaye imipira y'icyatsi, umweru n'umukara.

Umugabo uteruye umwana ufite igikinisho mu ntoki, baganira bishimye, wambaye ishati y'amabara atandukanye ndetse umwana yambaye umupira ufite ibara ry'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko baje kugura ibicuruzwa bitandukanye, harimo karoti, inyanya, intoryi, imyungu, harimo abagore bambaye ibisa.

Inyubako nini yiganjemo ibicuruzwa bitandukanye: umuceri, ibirayi, kawunga, intoryi, inyanya, karoti, aho urujya n'uruza rw'abantu bahahira kandi bakabona serivisi neza.

Iduka rinini ririmo umugabo n'umugore bafite imyenda mu ntoki, harangwamo ibicuruzwa amapantaro, imipira, amakabutura, inkweto n'ibi...

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko bari gucuruza ibiribwa bitandukanye: intoryi, inyanya, ibitunguru, karoti, imiteja, pavuro ndetse n'ibindi bitandukanye bari gucuruza.

Icyumba kinini gikorerwamo ubucuruzi kirimo abantu batatu, umwe wambaye umupira w'umweru, umukara, umutuku ndetse n'inkweto nziza.

Imyenda myinshi yo mu bwoko butandukanye, harimo amapantaro, amakabutura, imipira ndetse n'inkweto. Ubona ko ari mu iduka rinini kandi rigezweho.

Umusore wicaye munzu ubona ko ategereje abantu agiye guha serivisi nziza kandi inoze akaba yambaye umupira w'umweru uvanzemo n'amabara y'umukara, w'imibiri yombi.

Umusore n'umukobwa bahagaze ku nzu ntoya ikorerwamo ubucuruzi bw'ikoranabuhanga, bambaye imyenda y'umuhondo, iruhande rwabo hateye ibiti byiza, kandi bigezweho.

Umugabo munini ubyibushye w'imibiri yombi uhagaze imbere y'imodoka, wambaye umupira w'umuhondo n'amabara y'umukara, wambaye isaha ndetse n'impeta.

Telefoni nziza icometse ku byuma by'ikoranabuhanga umuntu agenda ayobora ibyo bikoresho kandi yishimye ubona ko ari iterambere rigezweho kandi rifitiye igihugu akamaro.

Imodoka nini, iri imbere y'inyubako idasanzwe, ishushanyijeho ibirango by'amoko yose, amabara y'umukara, umuhondo, yanditseho iposita kandi ifite amapine akomeye.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye mu isoko ririmo ibitoki biri mu dukoresho dufite ibara ry'umuhondo, umutuku, ubururu ryiganjemo abagore.

Umusore ufite igare uhetse igikapu ari imbere y'inyubako nini isize amarangi y'ubwoko bwose, indabyo nziza ibiti ndetse n'ibindi bidukikije byinshi.

Abamotari babiri ubona ko bafite igikoresho kinini bari gushyira kuri moto, bari impande y'inzu nini isize amabara y'ubururu, umuhondo, bahagaze mu muhanda w'igitaka.

Inyubako nini iri mu Mujyi wa Kigali ikodeshwa ibihumbi ijana mirongo itatu na bitanu ku kwezi, nziza cyane kandi yujuje ibisabwa, uyishaka yayibona kuri nimero zikurikira zeru karindwi umunani cumi na gatandatu umunani kane zeru karindwi kane gatanu.

Inyubako nini yiganjemo ibikoresho byo mu nzu, iby'ikoranabuhanga nka televiziyo, radiyo, hamwe n'intebe z'imisego, ikodeshwa amafaranga ibihumbi ijana ku kwezi, iherereye mu Mujyi wa Kigali.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Inyubako nini irimo ibyumba bitandukanye, iherereye mu Mujyi wa Kigali, Kimironko, igurishwa amafaranga menshi cyane kandi ubona ko ihenze.

Inyubako igaragara nk'ishaje ndetse irimo amabara atandukanye, umukara, umweru, irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibyo gukoresha mu buzima bwa buri munsi.

Inzu nini ifite icyumba gisa neza, urugi rutukura, irangi ryiza mu nzu kandi rigaragara nk'irihenze, kugira ngo uyibone wahamagara kuri kode gatatu kane, gatatu gatanu.

Inyubako igezweho ifite amabara atandukanye umuhondo, ibirahuri by,umukara ndetse ihagaze miliyoni ijana na cumi, uwayishaka yayibona ku giciro gishimishije.

Inyubako nini yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara ihagaze ahantu hirengeye ubona ko iri ku isoko kandi igurishwa amafaranga make uyishaka yayibona ku giciro cyiza.

Inyubako nziza iherereye mu Karere ka Kicukiro, yubakanye ubuhanga, ifite amabara menshi atandukanye: umuhondo, umweru ndetse n'ibirahuri by'umukara bitabonerana.

Moto iparitse iruhande rw'inzu nini ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi, biherereye mu karere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali, mu Rwanda kandi nziza cyane, ishimishije.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko, baje kugura imyenda itandukanye myiza, ubona ko ari isoko rinini kandi rigurisha ibicuruzwa by'ubwoko bwose byiza cyane.

Iduka rinini ririmo abacuruzi babiri, higanjemo ibiribwa, amavuta, amandazi, capati, ibiraha ndetse n'igikoma hamwe n'icyayi.

Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byo mu rugo, intebe nziza zigezweho ndetse n'ameza atandukanye, ubona ko ari nziza kandi isamaje, abantu bahuriramo bakishima ndetse bakanasabana.

Icyumba kinini kirimo ibicuruzwa by'amoko yose, bigaragara neza kandi bishimishije. Ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'umuhondo byiganje muri iyi nyubako.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi, ifite ishusho nziza kandi yubatswe mu bigezweho, ubona ko ikorerwamo ibikorwa byiza kandi by'iterambere.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye ibyo kurya ,iby'ibikoresho byo mu rugo by'ubwubatsi, imyambaro ndetse n'ibindi byinshi.

Inyubako nini yicayemo umugabo, harimo ibicuruzwa bitandukanye, utubati, udupaniye, amakoti ndetse n'ibiribwa bitandukanye kandi biryoheye amaso.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko baje kugura imyenda ndetse bambaye imyambaro itandukanye ifite amabara menshi umweru, umukara, ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'ibara ry'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu baje mu isoko kugura ibikoresho bitandukanye, bigaragara ko bahuriye mu nyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi kandi byujuje ubuziranenge.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, bacuruza ibiribwa bitandukanye, harimo karoti, imboga, intoryi, inyanya ndetse n'ibindi byinshi.

Inyubako nini irimo ibicuruzwa by'amoko yose, imyenda ndetse n'ibikoresho byo mu rugo, harimo amasafuriya, amabase, ndetse n'amasahani.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe, harimo abapolisi, abashinzwe umutekano ndetse ari urubyiruko rwiganje; ibiti binini, imyembe ndetse n'ibindi byinshi.

Ikarita yanditseho amagambo atandukanye, urugero: Repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'ubuzima, Umujyi wa Kigali, Akarere ka Kicukiro, ifite ibara ry'umuhondo ndetse ifashwe n'umuntu mu ntoki ze.

Iduka rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye by'amoko yose, ibirungo, ibikoresho byo mu gikoni, ubona ko abantu urujya n'uruza baza guhaha ndetse bakabona ibyo bashaka ku giciro cyiza kandi kitagoye.

Iduka rinini ririmo ibicuruzwa by'amoko yose umusore uri kugenda afata icyo akeneye kugirango abashe kwishyura agendeye ku rutonde yafashe.

Inyubako nini irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo amazi, fanta ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye, irimo imineke, amandazi kandi ni nini cyane.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye harimo telefoni, mudasobwa n'ibindi byinshi, ubona ko barimo kubikoresha mu bikorwa bijyanye n'ikoranabuhanga.

Inyubako nini irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibisuguti, fanta ndetse n'ibindi byinshi, bigaragara ko ari heza kandi hashimishije, bityo hakurura abantu batandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye mu nyubako ya Simba sonatibe, yiganje mu ibara ry'umweru n'umukara, aho bateranira basaba serivisi zitandukanye kandi bakazihabwa neza.

Nimba ufite telefone uzakore uko ushoboye umenye kuyikoresha wandika ibintu byinshi bitandukanye mu mabara atandukanye bizatuma uyibyaza umusaruro uhagije.